Amatafari bita ruriba yubaka inzu neza, usanga inzu isa neza, kandi inzu igakomera cyane. Usanga abazi kuyubaka ari bakeya cyane cyane , kubera ko n'amatafari agoranamo gakeya.

Iyi yo mu mutwe bita kasike iturinda gukomereka iturindaga n'impanuka zo mu kirere, n'ingofero idufasha mukazi dukora. ingofero ituma ubona amafaranga kubera ko wa yambaye, ingofero itatuma ugira impanuka.

Abanyeshuri bagira umwete wo kwandika, batega amatwi uyu mwarimu neza, bumva neza ibyo mwarimu ari kubabwira, bamenya ubwenge baba aba mbere. Ni byiza ko umunyeshuri ugira isuku agatega amatwi amenya ubwenge.

Igihe cyose wiga uba ugomba kwambara iniforume, kugira ngo utandukane n'abandi bantu bose bakora ibindi bintu, ugomba kwambara bitandukanye n'iby'umwarimu wabo kugira ngo batabitiranya, kandi ugomba kwambara ahantu hose ukikwiza kugira ngo udakomereka.

Iniforume zigaragaza abantu bari kwiga. Umunyeshuri wese arangwa n'iniforume, akarangwa n'amakayi, akarangwa ndetse n'ibyo kwigiramo. Umunyeshuri utagira iniforume nta bwo aba yiga neza. Umunyeshuri ni uwubahiriza igihe.